Abantu bicaye hamwe kumeza amwe bari mu nama imbere yabo bafite terefone ngendanwa, amacupa y'amazi yo kunywa, amakayi yo kwandikaho.

Ifoto itwereka imbwirwaruhame abayobozi bicaye hamwe imbere yabo hateretse amacupa y'amazi yo kunywa y'inyange, umuti wifashisha guhanagura intoki wica udukoko tugiye dutandukanye, imbere yabo hateretse indangururamajwi ibafasha gusakaza amajwi ndetse no kumvikana hagati yabo.

Ifoto y'urwibutso nyuma y'igikorwa cyari kimaze kuba, abantu bakitabiriye bari hamwe bafatira hamwe ifoto y'urwibutso, bagiye ari abagabo abagore bigaragara ko bishimye bitewe n'igikorwa bari barimo.

Abayobozi bicaye hamwe, imbere yabo hari indangururamajwi ibafasha gukwirakwiza ndetse no kugeza amajwi ahantu kure, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse n'amacupa ya ji, ibinyobwa bidasembuye, bari mu mbwirwaruhame, bafite ibyo kwandikaho, amakaye ndetse n'amakaramu yo kwandika bimwe mu byavugiwe mu nama ndetse n'imyanzuro.

Ifoto y'intore ziri gutozwa, ziri ahantu hamwe ziri kubwi imbwirwaruhame, abahungu ndetse n'abakobwa bambaye imipira ifite amabara ari mu idarapo ry'igihugu cyacu, bakaba batoreza hamwe indangagaciro ndetse na kirazira z'umuco nyarwanda.

Umumama wambaye ikoti ry'umutuku, afite ikaramu ifashisha mu kwandika, icupa ryamazi Imbere yiwe, ikayi yo kwandikamo.

Mudasobwa, amacupa y'amazi, isakoshi, terefone ngendanwa ,umugozi wa mudasobwa, intebe zo kwicaraho n'ameza.

Umuyobozi wambaye ikoti afite ikaramu mu ntoki yifashisha mu kwandika imbere ye hari indangururamajwi imufasha yuko ibyo avuga bibasha kugera kuwo barikumwe neza imbere ye hari ibinyobwa bigiye bitandukanye amazi, ndetse n'ibindi binyobwa biryoherera.

Inama y'abayobozi bari kuvuga ku nsanganyamatsiko yuko barandura ipfobya rya jenoside bafite aho bari kwandika imwe mu myanzuro.

Inyubako bakoreramo inama, ameza batekarekaho mudasobwa, amakayi n'amakaramu yo kwandikaho, intebe zo kwicaraho, bicaye barebana bafite ibintu bari kuganiraho, imiryango imwe irafunguye indi irafunze.

Icyumba cy'uruganiriro aho ameza afite ibara ry'ubururu, ku mpande y'ameza hari ibara ry'umuhondo, abantu bagiye bicaye ku muzenguruko wa kare, bamwe bafite mudasobwa, abandi terefone ngendanwa, ibitabo byo kwandikamo n'amakaramu, amacupa y'amazi.

Inama y'abayobozi imbere yabo hateriretse amacupa y'amazi yo kunywa mudasobwa imbere yabo, indangururamajwi, inyuma hari icyapa cyerekana cyanditseho amagambo Kigali yacu Kigali ikeye.

Icyumba kiberamo inama gifite ameza afite ibara ry'umukara n'umutuku, amacupa y'amazi yo kunywa, ibikuta bisize amarangi, intebe zo kwicaramo, indangururamajwi kuri buri muntu wese wicaye, abantu bagizwe n'abagabo n'abagore, abazungu ndetse n'abirabura.

Umugabo ufite indangururamajwi, ari gutanga imbwirwaruhame abo abwira bicaye bafite aho kwandika. Ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa abateretse imbere.

Abantu bahuriye hamwe bicaye hamwe, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umuhondo abagabo bambaye amakositimu, abagore bambaye amakanzu ahantu bicaye hateretsea amacupa y'amazi yo kunywa ndetse n'ibindi binyobwa bidasembuye, inyuma hamanitse ibyapa byamamaza ndetse n'abantu ba bicaye inyuma bameze nkaho bari kumva imbwirwaruhame.

Gahunda ya leta abantu bambaye imipira y'ubururu iridarapo y'u Rwanda, ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi, abakobwa ndetse n'abasore bicaye ku ntebe bafite ibyo kunywa.

Hano hari umugore, uri gutanga imbwirwaruhame, ufite indangururamajwi yifashisha kugira ngo abashe kuvuga abantu bose bamwumve, abandi bicaye mu gisharagati mu ntebe z'umweru, bateze amatwi bumva ibyo ari kubabwira.

Icyumba cy'uruganiriro hari abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, bari ku meza yizengurutse bicaye barebana iburyo ndetse n'ibumoso, aho bateze amatwi bumva ibyo bari kubwirwa.

Icyumba kiberamo inama, icyapa cyanditse gahunda y'imitangire ya serivisi, handitseho ijambo korera umuturage ibyo agukeneyeho, abayobozi bicaye bafite amacupa y'amazi imbere yabo, impapuro zo kwandikaho, telefone intebe bicayemo.

Icyumba kiberwemo inama cyangwa se imbwirwaruhame, umumama wambaye amadarubindi wasokoje imisatsi ayirekuye, yambaye ikoti imbere ye hateretse amacupa y'amazi, ibikombe, iruhande rwe hari abagabo ingeri zitandukanye bari mu nama.

Icyumba cyahariwe gukorerwamo inama, harimo intebe zo kwicaraho, ameza asize ibara ry'umutuku yifashishwa bandika cyangwa se baterekaho bimwe mu bintu abitabiriye inama, indangururamajwi zibafasha gusakaza amajwi.

Bamwe mu bayobozi bagize komite, inzego zitandukanye aho bari mu nama amacupa y'amazi, imbere yabo amacupa y'umuti uhanagura mu kiganza, ku ntebe z'umukara bafite indangururamajwi, imbere yabo ndetse naho bandika bimwe mu bikorwa bari gukora.

Uko wakiyandikisha kuva ku itariki cumi n'eshanu kugera kuri cumi n'icyenda z'ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na gatatu, kigali mu ntare komferensi arena. Ihuze n'abandi wige uko bahanga ndetse bahanga imirimo ndetse bakanahangana n'ubukungu kugira ngo bateze imbere aho batuye.

Imenyekanisha. Itariki ntarengwa mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, menyekanisha nonaha. Uzuza ndetse unishyure kimwe cya gatatu cy'ibyo winjije ku musoro usanzwe wishyura, kugera ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane. Ishyura

Igazeti ya leta yanditseho ibyo bifuza kugeraho mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu rwego rw'ubuzima ndetse n'ibyo bazagenderaho kugira ngo muri urwo rwego rw'ubuzima bizabashwe kugerwaho.

Igipapuro cyerekana uko wamenyekanisha ukanishyura umusoro ku mutungo utimukanwa mu humbi bibiri makumya na kane ukaba ujya ku rubuga rwabo ugakanda ahanditse imenyekanisha bikwereka uko ugomba kuba wabigenza kugira ngo wishyure umusoro utaracikana.

Igipapuro kigaragaza uruhushya rwo gusuzumwa, intambwe bikorwamo kugira ngo urubone, uburyo ki ubisaba kugira ngo bagusuzumire, utanga ibaruwa, uyihereza ubishinzwe umuyobozi mukuru wa RDB, akaba usaba ko bakwandika kugira ngo bakugenzurire ibikorwa byawe.

Yerekana kwamamaza bimwe mu bijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza uburyoki wazamura imikorere yawe buryo ki wamenya igihe ibyawe hamwe na iro Africa makumyabiri na gatatu kwiyandikishaba bitangira ku itariki cumi n'eshanu kugera kuri cumi n'icyenda z'ukwa gatanu makumyabirigatatu Kigali/Rwanda.

Ikirangantego cy'u Rwanda, handitsemo repubulika y'u Rwanda ubumwe, umurimo gukunda igihugu, ushyiremo amazina yawe, umubare w'ibanga, nurangiza ukande kwiyandikisha cyangwa aho kwibagirwa umubare w'ibanga.

Iduka ritanga bimwe mu bintu bitandukanye ndetse na serivisi z' irembo, impapuro za RURA, iza RDB, banki ya BK, Equity, kubitsa ndetse no kubikura, gufotoza ibipapuro bigiye bitandukanye...

Wakora iki mugihe habayeho guhita, gusohoka kwa gaze? Mugihe habayeho guhita kwa gaze cyangwa kuva uzabibwirwa n'impumuro ya gaze yihariye. Muri icyo gihe kora ibi bikurikira: Mu gihe utetse funga gaze, mu gihe utekeye mu nzu usohoka, icupa rijye hanze y'inzu ahantu hari umwuka uhagije kandi ufunguye inzu. Irinde ikintu icyo ari cyo cyose cya.

Serivisi z'irembo zikorerwa ku rubuga rw'irembo bigakorerwa ku ikoranabuhanga umuntu atarinze kwandika impapuro, bagakoresha mudasobwa cyangwa se telefoni hajya bimwe mu byemezo ubona usaba muri leta cyangwa se ari nk'ibindi bikorwa ushaka gusaba muri leta n'ahandi hantu hatandukanye,

Serivisi y'irembo, ifishi igaragaza ibikorwa irembo ritanga, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'uziranenge ihiganwa mu bucuruzi bungera umuguzi, hagiye hariho ibyiciro, umucuruzi n'inganda, uruhushya rwo gukora ubucuruzi aho ushobora kuba wabisabira nimero wabireba.

Kwigaragaza ku bushake, amahirwe ari mu kwigaragaza ku bushake, icya mbere ntucibwa ibihano bijyanye no kutamenyekanisha no kutishyura umusoro, kabiri ntucibwa inyungu z'ubukererwe, gatatu ushobora kwishyura umusoro wagaragaje mu byiciro, kwigaragaza ku bushake bizarangira tariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na kane.

Umunara w'itumanaho, ku ruhande hari icyapa kigaragaza sosiyete y'itumanaho ya MTN, umunara uteretse ahantu, ukikijwe n'ibyuma nk'uruzitiro rwawo.

Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo, ibifurije umunsi mwiza w'umurimo, turusheho guteza imbere ubumenyi, umurimo unoze, byo nkingi y'iterambere, Minisiteri ishinzwe abakozi www.mifotra.gov.rw

Mudasobwa, igendanwa umuugabo ari gukanda muri mudasobwa. Igikoresho bakoresha ba caginga, kuruhande kireba umugozi yambaye ishati yumutuku irimo utudomo tw'umweru terefone ngendanwa kuruhande ameza ateretseho imashini.

Itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwacumi n'abibiri bibiri na makumyabiri na kane, itariki ntarengwa yo kuba wamenyekanisha ndetse ukishyura umusoro ku mutungo wawe utimukanwa, unyuze ku rubuga wa, wa, wa akadomo rwa RRAakadomo ga na o na va akadomo rwa urubuga rwa Rwanda reveni.

Ifoto iratwereka serivisi z'irembo intambwe ya gatatu hitamo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhu rw,ikiciro cyisumbuye ibisabwa usaba usaba agomba kuba afite indangamuntuigihugu cy'u rwanda usaba agomba kuba afite uruhushya rwo gutwara burundu rufite agaciro abasaba agomba kugira nimero ya telefoni cyangwa adrese imeri bikora kugira ngo bakire imenyesha.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa ku binyamakuru ku bijyanye n'ibicuruzwa n'ibindi bitandukanye, aho ugenda ugahitamo icyo ushaka gukora bitewe na serivisi ukeneye.

Hano bari kutwereka uburyo bwo gucunga imari muri Afurika muri rusange bikaba bikorerwa muri Kigali batwereka uburyo icyo ishobora gushora amafaranga yawe akaba yabyara inyungu nyinshi yaba mu Rwanda ndetse no hanze, bikazamura ubukungu bwa Afurika muri rusa....

Itangazo ry'abashinzwe kwishyura imisoro, igamije kwibutsa cyangwa se kumenyekanisha kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu, birakorwa kugeza ku itariki mirongo itatu n'imwe ukuza, bibiri na makumyabiri na kane.

Ibiti by'amapoto byifashishwa mu kunyuzaho itsinga z'umuriro, bifasha gukwirakwiza umuriro uva mu gace kamwe ujyana mu kandi gace, mu rwego rwo kugezaho ibikorwa remezo abaturage.

Ipoto ryifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, gukura amashanyarazi ku rugo rumwe bajyana ku rundi kugira ngo habashe kuboneshezwa, ibiti bitandukanye bikikije ingo z'abaturage harimo ibisheke ndetse n' n'ibiti by'imihati.

Inyubako rusange, izitiwe n'amatafari ahiye, inyuma y'uruzitiro hariyo indabo zigiye zitandukanye, zifite amabara atandukanye, imbere mu rugo hateyemo ibiti naho.

Amapoto ku muhada akwirakwiza umuriro mu baturage, umunara ushinzwe gutuma haboneka itumanaho rigiye ritandukanye mu baturage.

Umuhanda ku nkengero hari amapoto y'ibyuma afasha mu kujyana umuriro mu bice bigiye bitandukanye, ku nkengero z'umuhanda hateyeho intsina z'ibitoki ndetse hari ibikingi by'amarembo.

Insinga z'amashanyarazi zigenda zijyana umuriro ngo zijye zitandukanye zifatiye ahantu hamwe ku giti cy'ipoto aho zigiye zihuriye ziva ku ruhande rumwe zijya ku rundi ruhande mu rwego rwo gukwirakwiza amashami.

Umuhanda w'igitaka ku nkengero zawo ibiti ndetse n'indabyo zigiye zitandukanye, amapoto ashinze ku mpande z'umuhanda, agenda ajyana umuriro uva ku rugo rumwe ujya ku rundi, insina ziteye ku mpande n'inyubako zitandukanye.

Ibitaro bya Kacyiru, Repubulika y'u Rwanda, umujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, ibitaro bya Kacyiru. Ubuyobozi bw'ibitaro Isange one stop center, inzu y'ababyeyi, aho bavura indwara z'amenyo, guca mu cyuma, aho batangira imiti, aho batangira ibizami, ubuvuzi bw'impinja, abana bivuza bataha, aho bivuza bataha indwa…

Inyubako ifite amatafari ahiye isize irangi ry'icyatsi amabati asa ubururu, abaturage bagiye bicaye hanze mu ngeri zitandukanye abandi bicaye ahantu hari...

Icyapa kigaragaza ibitaro bya Kabgayi, imbere y'umuhanda, umuhanda w'umukara, inyubako iri imbere igaragaza aho ibitaro biherereye. Ibitaro bikikijwe n'ibiti bitandukanye ndetse n'ubusitani. Ibitaro byifashishwa boherezayo abantu bakeneye serivisi zitandukanye z'ubuzima...,

Ifoto igaragaza ku bitaro aho batangira serivise zigiye zitandukanye, hanze hakaba hari intebe abarwayi cyangwa se abarwaza bicaraho bategereje muganga ko abaha serivise zigiye zitandukanye.

Inyubako y'umuturirwa, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, imodoka ebyiri ziparitse, zifite ibara ry'umutuku, imwe ifite ibirangantego RH038G iy'indi modoka RAE75GU ndetse n'indi ifite ibara ry'umweru.

Abayobozi bagiye batandukanye mu nzego zitandukanye bereka abacamanza, bashinzwe umutekano, abaminisitiri, umucamanza w'umugore wambaye imyenda y'akazi ke ndetse n'abashinzwe umutekano mu myenda y'akazi kabo.

Ifoto igaragaza gahunda ya leta y'igikorwa cyitwa Inkiko Gacaca ubutabera bwunga, aho abaturage bahuriraga hamwe umuntu akabasha kuba yakemera ibyaha yagiye akora imbere y'abandi bakamushinja bakavuga ibyo yakoze akaba yasaba imbabazi abo yabikoreye bakababarira ndetse akanakatirwa imbere y'abaturage kugira ngo bace icyo gikorwa ntikizongere kubaho ukundi.

Ifoto iratwereka umugabo w'igikara, ufite umusatsi uringaniye, wambaye umwenda wo hejuru, ufite, ufitemo ibara ry'umweru, iry'umukara.

Ifoto irerekana abacamanza, abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda impuzankano ijyanye nakazi kabo ndetse ngofero bambara mu mitwe yabo igendanye n'akazi bakoraba bashinzwe kuba baca imanza hagati y'uwakoze icyaha ndetse n'uwagikorewe kugira ngo bakure amakimbirane ari hagati yabo.

Ifoto igaragaza umucamanza w'umugabo, wambaye impuzankano y'akazi k'abacamanza, baba bashinzwe kuburanisha ababa bakoze ibyaha ndetse n'ababikorewe, bakurikije ingingo zitandukanye ndetse n'amategeko y'igihugu, waba urengana bakakurenganura, waba wakoze ikosa na bwo bakagukatira, ugahanwa uko bikwiye n'amategeko ya leta.

Ifoto itwereka umucamanza w'umugabo afite ubwanwa ntabwo agaragara nk'ukuze, yambaye ishati irimo imirongo, yambaye impuzankano y'abacamanza bifashisha bari mu kazi kabo ko kuburanisha barenganura cyangwa se bakatira urukwiriye umuntu uba wakoze amakosa bagendeye ku mategeko y'u Rwanda.

Abacamanza bahagaze imbere mu nyubako ifite amatafari ahiye, ameza, intebe zo kwicaraho, impapuro zikoreshwa mu iburanisha, ababurana bicaye ku ruhande rumwe.

Inama abaturage bicaye hamwe mu busitani bakikijwe n'ibiti bicaye hasi mu byatsi, abayobozi bicaye mu ntebe, hariru umugabo uhagaze imbere wambaye ikoti ry'umukara, igipapuro mu ntoki uri gutanga imbwirwaruhame.

Urupapuro rugiye rwerekana amategeko atandukanye ,hariho umutwe wa mbere ,ingingo rusange ,ingingo ya mbere icyari icyo ariryo itegeko rigena igihe ryerekana amategeko atandukanye , ku ngingo ya kabiri hariho icyicaro cya komisiyo rugiye rurimo ibice bibiri bitandukanye ;Ikinkinyarwanda ndetse n'Icyongereza.

Agace ka Gicumbi, igororero rya Gicumbi, aho bifashisha mu kugorana ndetse no gushyira ku murongo mu karere ka Gicumbi abantu bafite imyumvire idakwiriye.

Igazeti ya leta yerekana ingingo zitandukanye mu mategeko ndetse n'ibihano ku muntu w'abishe amategeko urugero ingingo ya cumi kunyereza umutungo mu maso yaba umukozi wa leta barabisobanura ukuntu buryo ki kunyereza umutungo ibihano ubona kandi nta n'umu wemereye icyo nicyo ukora kuba wanyereza umutungo.

Ni urukiko gacaca aho abunzi bicaye hamwe munsi y'igiti bakikijwe n'abaturage, abunzi bakaba ari abaturage bizewe batorwa na bagenzi babo kugira ngo bajye bunga bagenzi babo bafitanye ibibazo ndetse uwakoze amakosa asabe imbabazi mu ruhame.

Ibyatsi, abaturage bicaye hamwe bicaye ku ntebe, abandi barambuye ibitambaro byo kwicaraho bitwikiriye umutaka ubarinda izuba, abamama biteza ibitambaro, umugabo uhagaze, ibiti, ameza yo kwifashisha.

Umupolisi ushinzwe umutekano mo imbere mu gihugu, ari gutanga ubumenyi ku butabazi bw'ibanze mu gihe habayeho impanuka itewe na gaze mu gikoni, abaturage barahagaze bari kugenda bakurikira, uburyo ki ushobora kwitabara habayeho iyo mpanu...

Ifoto igaragaza abantu bakora umwe mu murimo wo kuzimya, gutabara ndetse no kuzimya zimwe mu nkongi z'umuriro, aho bifashisha amazi ndetse n'ibindi byuka byifashishwa mu kuba bazimya umuriro, bambaye impuzankano zabo ndetse n'ingofero zibafasha kwirinda icyaba, akisida, impanuka ishobora kuba yaba, ikaba yabakomeretsa mu mutwe...

Igikoresho cyifashishwa gitumura umwuka mu gihe habonetse inkongi y'umuriro, iba yafashe ahantu hagiye hatandukanye, bakaba bakifashisha basohora, uwo mwuka uba ukirimo kugira babashe kuzimya inkongi y'umuriro.

Imodoka yifashishwa mu gupakira ibikoresho bigiye bitandukanye byubutabazi, ifite ibara ry'umweru n'bururu, hejuru hariho akarangurura amajwi gafite ibara ry'ubururu.

Umuhanda w'umukara, imodoka ya polisi ifite amabara abiri atandukanye, ijambo polisi ryanditseho, imodoka iri gutambuka, ku nkengero z'umuhanda hakaba hateyeho ibiti, ibiti by'icyatsi...

Ifoto igaragaza imodoka yo mu bwoko bwa toyota ifite ibara ry'umukara, imodoka ishinzwe mu gukora ushinzwe mu kugenzura umutekano iparitse ahantu hari ikigega, ikigega gifata amazi cy'ibara ry'ubururu giteretse ku byuma bisize ibarara ikigega cy'umukara gisa umukara giteretse ku byuma bifite ibara ry'ubururu ndetse imbere.

Icyuma cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, aho yaba yageze, kikaba cyifashishwa gisohora umwuka, wifashishwa mu kuba wahosha inkongi y'umuriro, mu gihe ari ahantu yaba yafashe.

isafuriya iteretse kuri gaze yatsemo umuriro abanyeshuri ku ruhande bahagaze bari kumwe n'umupolisi ubaha amahugurwa y'uko bakemura icyo kibazo haramutse habayeho impanuka umwe mu banyeshuri afite igikoresho kizimya umuriro ari kukifashisha azimya uwo muriro.

Ifoto igaragaza imbwirwaruhame hariho umugabo umugabo wambaye ishati y y'umukara, karuvati iciyemo imirongo wazamuye amaboko, ari gutanga imbwirwaruhame ku ruhande rwe hari umugabo wambaye ikoti ufite igipapuro mu ntoki, inyuma yabo hari intebe zo kwicaraho, iruhande rwabo hariru umugabo wambaye umupira w'amaboko ku magufiya w'icyatsi, inyuma yabo hari imodoka ndetse n'abaturage bari gutambuka mu muhanda wi'ibitaka.

Ifoto itwereka kwamamaza ishyaka rya parite liberari ishyaka riharanira guteza imbere abaturage, rigashyiraho ukwishyira ndetse no kwizana kwa buri muturage w'u Rwanda bambara imyenda yo mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umukandida w'ishyaka ryigenga Mpayimana Phillipe, ari gutanga imbwirwaruhame ku baturage ababwira imigabo n'imigambi ye, yambaye ikoti ry'ubururu, inyuma ye hicaye abantu bane, imbere yaho hari ameza, inyuma hari icyapa cyamamaza sosiyete y'itumanaho rya MTN ndetse...

Ifoto igaragaza ibyavuye mu matora, amatora yabaye muri bibiri na makumyabiri na kane, abakandida batatu harimo Paul kaGAME, Frank HABINEZA na Philippe MPAYIMANA w'ishyaka ryigenga...

Igikorwa cyo kwiyamamaza aho bari kwamamaza, umukandida wa girini pi, abari kwamamaza bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, uwo mukandida akaba ari HABINEZA.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ariho ibipesu by'umukara ishati iciyemo imirongo, ufite indangururamajwi wazamuye akaboko, inyuma ahahagaze abagabo bambaye amashati y'umweru n'amajipo y'umukara, icyapa kiriho ifoto y'iwe ari gutanga imbwirwaruhame.

Abaturage barimo kwamamaza umukandida bafite ibipapuro bigiye biriho bimwe mu bigaragaza umuntu bari kwamamaza ikigaragara barishimye bambaye ingofero harimo ababyeyi harimo abana harimo abasore aba papa.

Abantu batatu bari gutanga imbwirwaruhame, harimo uri kwiyamamaza nk'umukandida witwa Mpayimana Philippe mu matora ya bibiri na makumyabiri na kane, akaba afite indangururamajwi yifashisha mu kubwira abamukurikiye imigabo n'imigambi.

Ifoto itwereka mu biro bya sena aho abayobozi batandukanye b'Igihugu bahurira hamwe bari mu nama ahantu haba hari ibirangantego by'Igihugu, hakoreshe indangururamajwi kugira ngo basakaze amajwi kuri buri umwe wese bumve neza. Ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, mazi.

Igikorwa cyo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi, umunyaryango wa FPR Inkotanyi, umukandida Paul Kagame, abamamaza bafite ibirangantego byerekana uwo bari kwamamaza, ni imipira, ingofero ndetse n'amadarapo.

Ifoto iratwereka umuhanda w'umukara uri kunyuramo imodoka nini ipakira imizigo ifite ibintu itwaye ku ruhande hari ibiti ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti birebire urabona umuntu ari gutambuka ahandi haba mu bikorwa by'ubwubatsi.

Umuhanda nyabagendwa unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abanyamaguru. Ndikubona umuntu ukora akazi k'ubumotari, gutwara abagenzi ndetse n'imizigo ku kinyabiziga cyiwe aho yambaye ingofero imurinda kuba yakwangirika mu mutwe agize impanuka. Imbere ye hari imodoka, ikinkinyabiziga kindi gitwara ibikoresho bitandukanyetu.

Umunyonzi utwaye igare ari kunyura mu muhanda yambaye ingofero ahetse igikapu, igare rye rirapakiye umuzigo ku ruhande, hariho undi musore utwaye igare ridapakira imizigo, bari kunyura mu muhanda aho amamodoka aparitse ku ruhande aho agenewe kuba yaparika.

Imodoka ziri ahantu hamwe, muri gare aho abagenzi bategera bajya mubice bigiye bitandukanye, turabona hano imodoka zitwara abagenzi rusange, abagenzi batandukanye benshi, babatwarira icyarimwe, mu masaha ya nijoro aho ama modoka aparitse amatara ari kwaka, abaturage urujya n'uruza ni rwose, bamwe bataha abandi baza.

Umuhanda w'umukara ikinyabiziga gipakira imizigo gifite ikintu kigitwikiriye cy'umukara, ku nkengero z'umuhanda, ibiti, icyapa kigaragaza umuvuduko wa mirongo ine, abaturage ku ruhande mu kayira k'abanyamaguru.

Ifoto igaragaza umunyonzi ufite igare, ripakiye imwe mu mizigo, ari mu muhanda nyabagendwa, iruhande rw'iwe hari imodoka itwara abagenzi rusange, ikabatwarira rimwe mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bakikijwe n'inyubako zigiye zitandukanye, ndetse ni bimwe mu bikorwaremezo, nk'amatara ku muhanda,..

Umuhanda w'umukara. Mu muhanda, ibinyabiziga harimo moto ndetse n'imodoka. Moto ifite ibirango biyiranga RH 084 P.

Moto ifite purake zeru ijana na mirongo itanu n'umunani, ibiranga ibyangombwa by'iyo moto bi byihariye. Umumotari utwara moto wambaye ijire y'akazi, umugenzi uri gutambuka, moto ziriho kasike zifashishwa kurinda ubuzima bwutwaye moto nuwo batwaye.

Umuhanda w'umukara ugiye uciyemo imirongo y'umweru ifite ibara ry'umweru ku mpande ku nkengero z'aho abanyamaguru bagendera, imodoka ifite ibara ry'ubururu iri gutambuka ijya mu cyerekezo kizamuka, inyuma ibinyabiziga bya moto, ku ruhande hagiye hariyo ibyapa bigenda bimenyesha abantu.

Imodoka yifashishwa mu kwiga, kumenya gutwara imodoka y'ikigo cya akishoni dirivingi sikuru cyigisha gutwara imodoka mu ntego zacyo harimo gutsindisha, niyo ntego yabo telefone yo kubahamagara ho zeru, karindwi, umunani, umunani , mirongo itaratu, mirongo itatu na karindwi, mirongo icyenda na gatanutu.

Imodoka itwara bimwe mu mizigo, iri mu bwoko bw'ikamyo, ifite ibara ry'umutuku, ifite ibintu ipakiye, iri mu muhanda w'umukara wifashishwa n'abagenzi ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Imodoka nyabagendwa yanditseho ijambo Kebiyesi ifite ibara ry'icyatsi, amapine ane yifashishwa gutwara abagenzi benshi, iri mu muhanda ku ruhande akayira k'abagenzi hariyo umusore uri kuri terefone wambaye ingofero wambaye imyenda y'umukara, ibiti ku ruhande ku nkengero z'umuhanda.

Ifoto igaragaza umuyonzi utwaye igare, yambaye umupira w'umutuku ipantaro, inkweto zifunguye, ahetse imizigo itandukanye ku igare ryiwe imifuka, imifuka igiye igerekeranye, ari mu muhanda nyabagendwa iruhande rwe, hari ibindi binyabiziga nk'imodoka.

Umuhanda w'umukara uri kunyuramo imodoka y'umweru ya tagisi itwara umuntu mu ibanga rye atavanze n'abandi, imodoka irimo ibara rya oranje, ku ruhande haranyura imodoka y'umutuku ndetse na moto zigenda zinyuranaranamo.

Umuhanda nyabagendwa w'ibara ry'umukara ku ruhande inzira y'abagenzi hacamo imodoka, ikinyabiziga cya moto, igiti cy'umukindo kiri hagati, mu muhanda ibyatsi, ibyatsi, pasiparume ku ruhande, ibyapa bigaragaza ahantu muri, icyapa kigaragaza uko abagenzi bagomba kugenda, ibara ry'umuhondo hagati mu muhanda.

Ikibuga giteyemo ibyatsi hagati hariho ahabaye imbuga hadateyeho ibyatsi, ikibuga gisa nk'aho cyifashishwa mu gukina umupira cyangwa se ibindi bikorwa.

Ikibuga, igikapu, agacupa umukinnyi, amazamu, ibiti, ibyatsi, imirongo iciye, imirongo ishushanyije n'ibara ry'umweru amajire umutuku, amajire y'umuhondo abakinnyi biruka mu kibuga.

Ikibuga cy'umupira kigizwe n'ibyatsi aho abakinnyi bakinira, ndetse no ku ruhande rw'ikibuga rugizwe n'ibitaka ndetse n'utubuye dutoya, mu kibuga harimo amazamu aho babasha gutsindira.

Icyapa gifite impandeshatu, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, kirimo imodoka ifite ibara ry'umukara, ndetse n'imihanda igenda inyuranamo, kigaragaza kigaragariza abatwaye imodoka cyangwa abanyamaguru ko umuhanda ukurikiye imbere ugenda winyuramo kugira ngo bitondere aho banyura.

Icyapa cyifashishwa mu kuyobora abanyamaguru ndetse n'abatwara ibinyabiziga bitandukanye, icyapa kiri mu ishusho ya mpandeshatu izengurutswe n'ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umweru.

Icyapa kiri mu kimenyetso cya mpande eshatu, cyigaragaza umuhanda uko ujyiye urimo dodani uzamuka unamanuka, kiburira abatwara ibinyabiziga bitandukanye, kiburira uko imiterere y'umuhanda imeze, kugira ngo birinde impanuka.

Icyapa kiba kiri mu muhanda gifasha kuyobora ibinyabiziga iki cyapa gifite ibara ry'umuhondo harimo imirongo igiye yinyuranamo, yizenguruka kigaragaza ko umuhanda uri imbere wizenguruka, bifasha kuyobora abanyamaguru ndetse n'abatwara ibinyabiziga bitandukanye.

Umuhanda w'umukara, ku ruhande ku nkengero zawo hagiye hakikijwe imirongo y'umukara ifite ibara ry'umukara ndetse n'iry'umweru, icyapa kigaragaza yuko umuhanda ufite amasangano agiye atandukanye wizenguruka, bifasha abatwaye imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga kuba bamenya uko umuhanda uteye, ibiti ku ruhande ndetse n'ubusitani.

Isangano ry'umuhanda aho batwereka icyapa aho amamodoka ahagarara. Ikindi cyapa kitwereka icyerekezo ushobora kunyuramo, imikindo igiye iteye ku mpande, ubusitani mu nkengero z'umuhanda, inyubako zigiye zitandukanye ku mpande zose.

Icyapa kigaragaza Kigali maganatanu mirongo irindwi umuhanda, imodoka yabagenzi rusange, umuhanda kuruhande hariho imikindo, amamoto ari imbere, akayira nyabagendwa k'abagenzi.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo kizengurutsweho n'ibara ry'umukara ritoya, kifashishwa mu kuyobora abanyamaguru ndetse n'abatwara ibinyabiziga bitandukanye, hagati kirimo igishushanyo kiranga icyerekezo gisa umukara cyerekana ubwoko bw'umuhanda.

Icyapa kiri mu ruziga ruzengurutswe n'ibara ry'umutuku, hagati gisa n'umweru kigaragaza umubare mirongo itandatu, kilometero ku isegonda. Iki cyapa cyereka abatwaye ibinyabiziga imodoka, moto kibereka ko uruhande bagezemo batagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu ku isazi.

Icyapa kiba mu muhanda gifasha kuyobora ibinyabiziga ndetse n'abagenzi, kirerekana metero ziri aho hafi, kimwe kiriho metero ijana, icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira ndetse n'ikindi kigaragaza ko imbere hari dodani byifashishwa mu mihanda.

Icyapa gifasha abagenzi b'abanyamaguru, kuba bamenya uburenganzira bwabo ndetse n'ahantu, hemewe kuba bakambuka bakambukiranya imihanda, bava ku ruhande rumwe bajya ku rundi, akaba ariho banyura kugira ngo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bitaba byababangamira mu kwambuka. Iki cyapa reki hifashisha cyubaha uburenganzira mu kwambuka.

Ifoto igaragaza igishanga, ibyatsi, utuyira nyabagendwa duto tw'abagenzi, inyubako zifite inyubako ndende ndetse n'izisanzwe zo guturamo z'abaturage zigiye zifite amabati, ibiti, insina.

Inzira rusange yubakishijwe amabuye, abagabo babiri bahetse igikapu, umwe igikapu cy'umukara undi icy'ubururu, igikapu gifiteho agakoresho kuruhande, imodoka yo mu ibara ry'umutuku, umuhanda umeze neza nyabagendwa abantu bari gutambuka.

Ifoto igaragaza kamwe mu gace ko mu Rwanda ka Nyarutovu herekana imiturire yaho ukuntu amazu agiye atondetse mu midugudu, amazu yari ari hamwe aba agaragaza ko abantu batuye mu gace kamwe mu mudugudu umwe akikijwe n'insina, ibiti, ibikorwaremezo nk'umuriro.

Ifoto igaragaza agace kamwe ko mu giporoso hano i Remera, iratwereka abaturage urujya n'uruza rwabo, abagenda, abagaruka, amazu atandukanye ahari, ibinyabiziga...

Imiturire, inyubako ndende, inyubako zisanzwe z'abaturage, ibiti bigiye bitandukanye, amabati y'ibara ry'umutuku, amabati y'ibara ry'umweru amadirishya, iminara,

Inyubako y'umuturirwa, igiye igeretse bitandukanye, iri ahantu ku muhanda, ifite ibyapa ku bikuta byayo, imbere yayo hari ubusitani, ndetse n'umuhanda w'umukara.

Imikindo ku muhanda akayira kerekana umuhanda ujya mu ruhande rwo hepfo ndetse na ruguru, imodoka irigutambuka. Icyapa kigaragaza yuko aho hantu hari imihanda igiye inyuranyemo ijya mu byerekezo bitandukanye, imikindo ku muhanda, ikiraro, amatara imirongo y'umweru iciye mu muhanda. Hariho amabara y'umukara.

Umuhanda Kigali, aka akayira magana atandatu mirongo icyenda n'umunani, akayira k'abagenzi, igiti inzu ku nkengero z'umuhanda, icyapa cyanditseho umuvuduko wa mirongo ine, umuntu atagomba kurenza, abamotari ndetse n'umugenzi uhagaze ku ruhande.

Umuhanda nyabagendwa, akayira k'abanyamaguru, ubusitani, icyapa abatwara ibinyabiziga bitandukanye, moto, imodoka n'amagare, ibyapa bitandukanye bijya mu byerekezo bitandukanye, ibiti ku nkengero z'umuhanda ndetse n'abanyamaguru.

Umuhanda winyuranamo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye moto, imodoka, amagare ndetse n'abanyamaguru harimo ibyapasa gifite ibara ry'icyatsi ndetse na ha ruguru igifite ibara rya orange aho kimwe cyerekana ko abanyamaguru bagomba gutambuka n'ahandi kikababuza kugenda ha agace ibinyazi.

Umuhanda w'umukara uciyemo imirongo y'umweru igi ishoreranye, igaragaza aho umunyamaguru ahagarara, kugira ibinyabiziga bimuhe umwanya, abe yakwambuka.

Igikamyo gipakiye bashyize ku ruhande, inyuma bagashyiraho icyapa cy'uko cyahagaze, kiyobora ibindi binyabiziga kunyura ku ruhande, akayira nyabagendwa k'abagenzi, moto ipakiye umugenzi, ibiti ku ruhande mu nkengero z'umuhanda, imodoka ya toyota y'umweru

Umuhanda w'umukara ufite ibyerekezo bitandukanye i buryo, i bumoso ukikijwe n'ubusitani ndetse n'ibiti ku nkengero z'umuhanda, uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye moto, imodoka ndetse n'abanyamaguru ku ruhande mu kayira k'abanyamaguru.

Ifoto igaragaza umuhanda w'umukara hagati haciyemo imirongo igiye ikurikiranye y'umweru, iyo mirongo isize ibara ry'umweru iri mu muhanda w'umukara nyabagendwa, iyo mirongo igaragaza aho umunyamaguru agomba kwambukira.

Ifoto hano iratwereka umuhanda w'umukara ufite ibyerekezo bitandukanye, turabona imodoka yo mu bwoko bwa rukururana nini, ipakira imizigo ijyana ahantu hatandukanye ku nkengero z'umuhanda hateye ubusitani, ndetse n'ibiti, hari umuhanda wo hasi ndetse n'umuhanda wo hejuru ari wo ikiraro.

Ikiraro kiri hejuru kinyurwaho n'ibinyabiziga munsi haciyemo umuhanda w'umukara wifashishwa n'abanyamaguru, ndetse n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo amamotomo ndetse n'amagare mu koroshya ingendo.

Umuhanda w'umukara, ibiti ku isangano ry'umuhanda, ruhurura ku ruhande yubakishije amabuye, ipoto rijyana umuriro mu bice bigiye bitandukanye, ibyatsi ku nkengero z'umuhanda.

Umuhanda uca mu kirere ufatwa nk'ikiraro, ndetse n'undi unyura munsi, hariho icyapa kibuza guparika, ko bitemewe guparika mu muhanda unyura munsi y'undi. Icyapa KK magana ane mirongo itanu Rwanda-Nyamata, KKK cumi na gatanu Rwanda- Kigali.

Umuhanda, akayira k'abanyamaguru, umuhanda uri gucamo ibinyabiziga, ku ruhande hari ibiti ku nkengero z'umuhanda, ndetse n'ubusitani n'inyubako zigiye zitandukanye.